Icyumba kirimo abantu batandukanye bicaye ku ntebe zisa ubururu, bakaba bambaye impuzankano y'amabara atandukanye, bamwe bambaye izisa umuhondo ndetse abandi bambaye izina icyatsi, hakaba hari umugabo uhagaze ufite indangururamajwi mu ntoki, muri icyo cyumba ku nkuta zacyo hakaba hariho icyapa cyamamaza.

Abantu barimo abagabo ndetse n'abagore, bambaye neza bisa nkaho bari mu nama z'akazi, abagabo bakaba bambaye amakote amashati ndetse nama karuvati, abagore nabo bakaba bambaye amakanzu n'udukote, cyangwa ibitenge bamwe bagiye bafite mudasobwa zabo imbere yabo, ariko bose bakaba bafite amazi basa nk’aho bari mu nama, ahantu bakoreye haraka neza kandi hasize amarangi meza, hari imitako myiza kandi n'ameza yaho asa neza.

Abantu baricaye rwose bazengurutse nk'abari mu nama turabona umumama uri imbere yabo uteze igitambaro wambaye ishati y'umuhondo ufite icyo bita mikoro, gitanga amajwi abantu bose bakayumva asa n'uri kubaganiriza ababwira ibyingenzi kandi abereka amashusho imbere yabo aho biri.

Abagore n'abagabo bose bicaye bafite amazi imbere yabo, ameza bateretseho akaba ari ameza asa umutuku, buri wese yambaye imyenda y'ibara ritandukanye n'undi, gusa bose urabona ko bambaye neza cyane imyenda isa nkaho yiyubashye bagiye mu nama baganira, bamwe bafite mudasobwa imbere yabo, abandi nabo bafite urupapuro barimo barandikaho.

Abantu baricaye bose, imbere yabo hagiye hari akabaranga k'ibyo bahagarariye cyangwa bakora, ubona ko bambaye byiyubashye kandi bose bakurikiye bareba umuntu w'imbere , hari umwe uhagaze usa nk' aho hari icyo ari kubagezaho cyangwa hari icyo yabazaga ashaka kumenya cyangwa gusobanurirwa. Ahantu hatatse neza hari amarangi asize neza kandi bose basa neza.

Aka ni agace runaka k'abantu bose bicaye munsi y'igiti barimo baganirizwa nk'aho ari inama cyangwa hari ikintu bendaga kubagezaho, bicaye rwose abagabo n'abagore hari abicaye ku ntebe, hari abicaye muri pasiparumu n'uhagaze uri kubabaganiriza wambaye ipantalo y'ubururu, ishati isa nk'irimo utubara tw'umweru n'umukara ndetse n'icyo inyuma cy'umukara.

Ahantu abagore n'abagabo bicaye, ku meza bayazengurutse bakurikiye umuntu uri imbere, basa nkaho bari mu nama, buri wese afite amazi imbere ye, kandi bafite n'urupapuro bari kureberaho, bakabona ko hari umuntu uri hirya ufite icyo bita kamera, ari kugenda bafata amafoto, n'undi uri imbere uri gusobanura kandi hari nibintu byinshi byerekana ibyo barimo.

Umumama wambaye umukara hejuru kandi ufite akarangururamajwi mu ntoki asa nkuri kuganiriza abantu benshi tukabonamo umugabo wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'uwambaye umweru basa nkabakurikiye, imbere yabo hari intebe nziza z'umuhondo kandi akaba ari kuberekera ku cyerekana amashusho kuri bose kirimo amagambo yandikishijwe mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu.

Abagabo batatu ndetse n'umugore umwe bambaye amakote ndetse n'amashati bicaye mu ntebe z'umukara zimeze nkaho ari ndende zu'ubuyobozi ameza ari imbere akaba ari meza atukura buri wese afite amazi yo kunywa imbere, bakaba bafite na sanitayiza yo gukaraba mu ntoki mu gihe hari ikibaye, bafite impapuro bari kwandikamo bicaye nk'abari mu nama bafite ingingo ikomeye bari kuganiraho y'ubuyobozi.

Abantu basa nkaho ari urubyiruko bambaye imipira y'umweru bicaye ku meza y'uruziga basa nkaho bari kuganira bakaba buri wese yiteretse amazi, babagira inama hasa nkaho aho hari hari ibigo byinshi by'amabanki ariyo banki ya kigali ndetse na banki y'abaturage ariyo banki popirare n'izindi nyinshi basaga nk'abari kubagira inama y'uburyo babitsa cyangwa bakabika amafaranga.

Abantu benshi cyane bicaye ahantu hari intebe nziza, basa nkaho bari mu nama ikomeye cyangwa mu nzego z'abayobozi buri wese agiye afite mudasobwa imbere ye, asa nkahoho hari inama bari gukurikira hari amagambo bari kugezwaho y'ibyabahurije hamwe.

Izi ni inama z'abakozi ba leta bantu bambaye imyenda gusa nk'abakora mu nzego z'ubuyobozi bambaye amakositime, abagabo bashyizemo amashati na karuvati n'aho abagore nabo bambaye amakositimu bamwe abandi amakanzu bicaye ahantu bafite icyo kunywa imbere yabo kandi bafite n'aho bari kureba ibiri kuganirwa neza bavugana.

Abantu benshi abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda yiyubashye amakaruvate, amashati ndetse n'amakote ubwo muri make abagabo bambaye ikositimu bari ahantu hari imitako myiza cyane y'imyeru ndetse no hasi hari umwenda w'ubururu, ameza yabo akaba ariho igitambaro cy'umweru ndetse n'indabo, bicaye nk'abategereje inama cyangwa ikintu cy'ikirori kigiye kubabera imbere bose bakaba bafite amazi yo kunywa.

Ibindi bikorwa bitangwa na leta y'igihugu aha ngaha ni mu Rwanda aho abapolisi ndetse n'abaturage bari bari gufasha abantu babamenyesha ko sida igihari kandi bahaguruke bashake uko bayirwanya biciye mu kigo cyitwa arabisi aricyo gishinzwe ubuzima bw'abantu, abantu benshi kandi bari babyitabiriye kugira ngo abantu bose babimenye.

Umuhanda w'igitaka urimo imodoka ebyiri imwe y'umukara n'indi yenda gusa umweru, tukabonamo inzu ku ruhande yarwo yubakishije amabuye kandi ifite amababi y'umutuku ni'gipangu cy'umukara.

Serivisi za leta nyinshi duhabwa ziba zatanzwe n'igihugu ziba zifite abazicunga bazirebera umutekano, abo bantu tubona bambaye iniforume y'icyatsi n'ingofero y'icyatsi n'inkweto y'umukara ifiteho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda ni umuntu ushinzwe umutekano bivuze ko iki gikorwa bari barimo, aba bantu abagore n'abagabo bambaye ingofero z'ubururu ni igikorwa cy'umutekano w'igihugu babagira inama cyangwa ababwira uko barinda umutekano wacu.

Abantu barimo abagabo n'abagore bicaye bameze nk'aho bari kuganira ku kintu cy'ingenzi wagira ni inama, ameza asa umutuku, intebe z'umukara, abari imbere n'abagabo bambaye amashati n'amakaruvati rwose nk'abantu biyubashye, urabona ko bahagaze n'umuntu ku ruhande umeze nk'aho ashinzwe porotokole babahaye n'ibyo kunywa.

Abantu abagore n'abagabo barahagaze, umugabo wambaye ingofero umupira w'umukara n'amarinete, ameze nk'uri kuganiriza abantu kandi hari umugore umuhagaze iruhande usa nkaho nawe hari icyo afite gutangaza n'abicaye barimo babareba, inyuma yabo hakaba hari imodoka ziparitse iy'umuhondo, umutuku, umweru kandi bafite n'intebe zabo zo kwicaraho.

Icyumba cy'inama, ikaba yitabiriwe n'abantu batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, muri iki cyumba harimo intebe zitandukanye zegamirwa, muri zo zikaba harimo izisa umukara imbere hateretse ameza asa umutuku, kuri ayo meza hagiye hariho uducupa tw'amazi y'inyange, mudasobwa ndetse n'indangururamajwi, muri iki cyumba kandi hakaba hahagaze abantu bafite ibikoresho byifashishwa mu gufata amashusho.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'umukara ameza atukura bigiye bimeze nk'aho bikora uruziga abandi bicaye inyuma mu ntebe barimo baraganira basa nkaho bafite ingingo barimo baraganiraho yitwa kigali ikeye, bivuze ko n'abantu bakora mu nzego z'igihugu zishinzwe isuku mu gihugu.

Iyi ni inama iba yateranyije abayobozi b'ikigo runaka cyangwa b'ishami runaka, ndabona ni abagabo bambaye rwose byiyubashye amakoti, amashati ndetse n'amakaruvati bafite na mudasobwa imbere yabo, bari babahaye n'amazi yo kunywa kugira ngo bakore inama yabo neza, bari bafite aho bicaye hari n'ameza batetseho ibintu byabo basa nk'aho baganira neza.

Aba ni abantu bambaye imipira y'imyeru bicaye ku ntebe z'umutuku n'aho bicaye rwose bari mu nama ,barimo barareba imbere .Izi ni serivisi igihugu kiba cyarashyizeho kugira ngo abantu bakora mu nzego cyangwa bakoreye ikigo cy'igihugu bajye mu nama babaganirize bavuge ibyo bagezeho n'ibyo benda kugeraho cyangwa bababwire n'ibyo bagomba guhindura.

Icyumba k'inama yitabiriye n'abantu bagiye batandukanye harimo abagabo n'abagore abirabura ndetse n'umuzugu mubayoboye inama imbere yabo hari ameza ateretseho uducupa tw'inyange, inyuma yaho hari icyapa cyanditse amagambo ihanga rishya mu miyoborere yo mu Rwanda.

Icyumba k'inama, ikaba yitabiriwe n'abantu nagiye batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore. Iki cyumba kikaba gifite inkuta zisa umweru, amatara yaka umweru, ndetse n'igisenge gisa umweru, muri iki cyumba hakaba harimo ameza atwikirijeho igitambaro gisa umukara, kuri ayo meza hakaba hariho uducupa tw' amazi y'inyange yo kunywa ndetse na za mudasobwa.

Iyi ni inyubako abantu bahuriramo baganira ariko cyangwa bakora ibindi byose ariko ari abantu benshi. Turabona ko abantu bicaye byiyubashye ku ntebe nziza z'umukara kandi zitatse zambaye ibitambaro byiza, bagiye bafite ameza imbere yabo, bafite ibyo kunywa kandi bicaye bose bambaye neza byiyubashye. Tukabona ibikoresho bikoreshwa bafata amafoto, kandi abantu bari bicaye bakurikiye nk'bari kuganiririzwa.

Icyumba cy'inama, kikaba kirimo abagore batatu, babiri muri bo ni abirabura, umwe ni umuzungu. Bakaba bicaye ku ntebe zegamirwa, zisa umukara. Inyuma yabo hakaba hahagaze umugabo umwe. Imbere y'aho bicaye hari ameza ateretseho uducupoa tw'amazi yo kunywa y'inyange ndetse n'amakayi barimo barandikaho. Ku meza kandi hakaba hateretswe udukapu dutwarwa mu ntoki.

Abagabo ndetse n'abagore bari bicaye neza bazengurutse ameza asashe bafite uturangururamajwi imbere yabo basa nkaho bari mu nama ku buryo buri wese yemerewe kuvuga bari bafite mudasobwa kandi imbere yabo ndetse n'amazi abagabo bari bambaye amakositimu ari amakote, amashati ndetse na karuvati ndetse n'abagore bambaye amakoti cyangwa amashati abantu bose bari bicaye nkaho bakora mu nzego z'ubuyobozi baganira ku kibazo.

Abantu barenze umwe benshi bicaye nka bari mu nama, bicaye ku ntebe z'umukara, ameza asa umutuku, bose baricaye, bafite amazi imbere yabo ndetse na za mudasobwa, basa nkaho barimo baraganira cyangwa hari icyabahuje k'ingenzi k'igihugu cyabo.

Umumama wambaye ishati ndetse n'umupira mo imbere by'umukara n'ipantaro ya shokora akaba afite akarangururamajwi mu ntoki ze asa nk'uri kuganiriza abantu abagira inama abereka aho ibyo ari kuvuga biri tukaba tubona umugabo wicaye umupira w'umuhondo ndetse n'undi wambaye umupira w'umweru aribo basa nkaho bari gukurikira bareba ibyo yandika bagahitamo tukba tubona ibyerekana ko ashobora kuba ari inama yitwa Tafisa.

Abana benshi basa nk'aho ari abanyeshuri kuko bigaragara ko bogoshe ku mitwe yabo kandi bakaba bambaye imipira isa y'ubururu iriho amagambo amwe, bicaye ahantu mu nzu isize ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara, hari umuntu wambaye kositimu y'umukara usa nk'aho ari kubaganiriza imbere, abagira inama mu myigire yabo cyangwa ari izindi nama yarari kubaha.

Ndabona abantu bicaye umwe wambaye ishati igiye irimo utuntu tumeze nk'uturabyo kandi yambaye amadarubindi, n'uwo begeranye wambaye ishati y'ivu, wambaye na we amadarubindi, umwe akaba afite igisohoramajwi asa nk'uri gutanga ijambo, bose bakaba bafite amazi imbere yabo kandi bafite n'udupapuro imbere.

Umumama wambaye ikanzu irimo umweru umutuku ndetse n'umukara, n'agashati k'umukara, afite igisohoramajwi asa nkaho arimo araganiriza abantu ku ngingo ivuga ngo bite ku buzima bwabo bwo mu mutwe n'aho dukorera, urabona ari hantu hari amarido y'umweru hasize irangi ryiza, hari n'ameza rwose yari ari kuganiriza abantu bari bamuri imbere.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo bicaye ahantu basa nkabakurikiye ikiganiro cyangwa inama, tukabona ko hano hari umuntu w'umugore wambaye umupira w'amaboko maremare y'umweru ndetse n'ikoboyi y'ubururu akaba ateza igitambaro mu mutwe afite igisohora amajwi asa nkaho ari kubabwira bariya bose bicaye bakaba bari ahantu hasi hasa umutuku hari inkingi z'ibyuma zisa umuhondo bari mu kiganiro.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore bicaye neza, ku ntebe zikozwe mu biti ziri fite ibara ry'umutuku, ameza yabo akaba ari ibitambaro by'umweru ndetse n'ubururu, ibitambaro bimanitse ku nkuta akaba arimo ubururu ndetse n'umuhondo, bari bashyizeho imitako myinshi, bisa nk'aho ari inama y'akagari cyangwa umurenge, ahantu runaka bari bari mu nama bafite impapuro imbere yabo basa nk'aho bakora mu buyobozi.

Abantu benshi bicaye ku meza atandukanye bisa nkaho bari mu nama ikomeye kandi bambaye byiyubashye, amashati, amakote ndetse n'amakaruvati bose bagiye bafite amazi imbere yabo bakurikiye nkaho hari ibyo bari kuganirizwaho, ibi byose tubibona kenshi mu nama y'ikigo runaka cyangwa ibigo bya leta.

Abantu bicaye mu busitani bw'ibyatsi bigufiya. Bamwe bicaye mu gisharagati abandi ntibakicayemo. Abicaye mu gisharagati imbere yabo hari imeza zo mu rwego rw'uruziga zitwikirije ibitambaro by'amabara y'ibendera y'u Rwanda. Imbere yabo hakaba hari umugore ufite indangururamajwi. Inyuma y'ubwo busitani hakaba hari inzu yubakishijwe amabati afite ibara ry'umuringa. Hafi y'ubwo busitani kandi hakaba hateye indabo.

Abantu barimo abagore abagabo bicaye ku ntebe zisa nkaho ari umutuku bicaye bafite amazi imbere yabo bakurikiye kandi bareba imbere nkaho hari icyo barikuganirizwa cyangwa hari icyo bari kurebayo uko bisa rero bari mu nama, izi nama ziba zabaye ziba ari inama zo mu rwego rw'abayobozi cyangwa urwego rw'igihugu akenshi zikaba ari inama zihuza abantu bakora mu nzego z'ubuyobozi.

Abantu benshi basa nkaho ari urubyiruko, abasore, ndetse n'inkumi bambaye imipira y'imyeru bicaye ahantu basa nkaho baganirizwa. Buri wese afite amazi imbere ye y'inyange kandi bakaba bafite impapuro barikwandikaho. Umugore wambaye umupira w'ubururu ndetse n'agakoti k'umukara akaba afite indangururamajwi arikubaganiriza. Izi ni serivisi u Rwanda ruba rwashyizeho kugira ngo rukangurire urubyiruko gukora rwiteza imbere bategura ahazaza habo.

Urubuga rukoresha ikoranabuhanga, rureberwaho amakuru ku butaka muri repubulika y'Urwanda, ushobora kurukoresha kuri terefone yawe cyangwa mudasobwa yawe, ukareba amakuru yose ajyanye n'ubutaka bugurishwa, ubugurwa ndetse n'ubwawe aho bugera, nimba ari n'imisoro, uko igenda yishyurwa byose ku butaka.

Ikoranabuhanga rifasha ibintu byinshi kugenda neza tuka tubona ikigo mu rwanda gishinzwe guteza imbere ubuzima aricyo arabisi cyari cyerekanye ko ushobora gukora ibintu byacyo serivisi zacyo ukoresheje telefoni aho wandikamo telefoni ugashyiramo na kode ukareba ibisubizo waba ushaka kureba aba bashyizeho nimero babibonaho ndetse n'imbuga zose wabashakaho.

Leta y'u Rwanda itanga serivisi nyinshi zifasha abaturage kubona ibyo bifuza n'ibyo bakeneye hafi yabo kandi ku gihe cyihuse, iyi ni serivisi y'Irembo iyo umuntu wese abona icyo ashaka akoresheje ikoranabuhanga aho ugenda wenda ujye gushaka icyemezo cy'amavuko cyangwa icy'uko washatse cyangwa ibindi bya muri ibyo, ndikubona umuntuyikoresha bivuze ngo ni umukozi w'Irembo ufasha abaturage.

Leta y'u Rwanda ifasha benshi bayituye kubaho neza kandi batekanye, tukabona ko abagabo babiri basa nk'abari kureba muri telefoni zabo baganira cyangwa hari icyo bari barangariye, tukabona undi mukobwa uri ku ruhande rwabo ufite mudasobwa ye na usa nkaho ari gukanda ushobora kuba ari serivisi bari bahawe cyangwa hari iyo bari bagejejweho, tukabona ko hari hari abantu inyuma yabo ndetse n'inzu ifite irangi ry'umuhondo.

Itangazo ryatanzwe n'ikigo gishinzwe imisoro mu Rwanda twita Rwanda reveni otoriti, berekana uko umuntu ashobora kumenyekanisha igihembwe cya kane cy'ipatanti ukoresheje mudasobwa, ahandi hahandi ukora ibintu byose ukoresheje ikoranabuhanga, kandi bigakora ibintu byose, aho kugira ngo ujye ku babikora muri icyo kigo cyangwa ujye ku bakozi babikora.

Abantu benshi bakora bakishyura imisoro cyangwa bagakora ubucuruzi bakanahinga ibyo bagurishije, ariko bakishyura imisoro. U Rwanda rwashyize imbaraga mu mashuri y’abana bato ndetse n’abakuru, ku buryo buri wese aba azi gusoma no kwandika. Hano turabona ko umuntu ashobora kwiga cyangwa kwiyandikisha mu byo kwiga akoresheje ikoranabuhanga, binyuze mu kigo gishinzwe uburezi aricyo REB, aho umuntu amenya ibijyanye mana byo akoresheje ikoranabuhanga.

Hariguru y'umuhanda turabonayo umumotari waparitse wakuyemo ibinda umutwe, kandi akaba yambaye ikote ry'umukara ndetse n'akakondi k'inyuma k'umuhondo bikabona umugabo uri hepfo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara usa nkaho uri kuri terefone yegereye icyapa cyerekana ko bafotora kandi bakura n'ibintu byinshi by'imipira muri ayo mazu. Amazu akaba afite inkingi z'ubururu ndetse n'ibindi bimeze nk'ibyuma by'umweru n'ahandi hacukora.

Serivisi za leta ni nyinshi cyane mu gihugu, aho tuzi ikigo gishinzwe imisoro Rwanda reveni otoriti gitanga serivisi yuko cyishyuza imisoro kandi iyo misoro ikaba hari icyo itugezaho muri uru Rwanda. Bakaba bavuga ko kwishyura imisoro ari birangira uno munsi mu itangazo bemeza ko ugomba kwishyura igihembwe cya kane cy'ubucuruzi uno munsi ukanze akayenyeri magana inani urwego cyangwa ugasura urubuga rwabo.

Izi ni serivisi za leta zitangwa n'igihugu zifasha abatuye kugira ngo bafashwe hakoreshejwe ikoranabuhanga, hano irembo bari bari gufasha ibintu biba muri parike n'ibyemewe gukorerwamo no kwishyura ugiye muri pariki nuko ingana.

Izi ni serivisi zitangwa n'irembo, uburyo irembo ifasha ibintu byinshi abantu basaba mitiweli, icyemezo cy'amavuko icyemezo cyo kuba warashyingiwe, kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo, kwishyura konterevasiyo, no gusaba indangamuntu bari bari kwiyamamaza berekana nuko abona n'urukingo rwa kovde cumi n'ikenda.

Leta y'u Uwanda ifasha Abaturarwanda ndetse n'abandi bose gukora ibintu byose byoroshye babona ko ikigo gishinzwe imisoro mu Rwanda cyari cyazanye serivisi aho umuntu ashobora kwishyura akoresheje ikoranabuhanga icyuma cyitwa ibiyemu bavuga bati wibaza niba icyuma cyawe cya ibiyemu cyapfa cyangwa hari ikibazo cyagira bakavuga ibyo wakora kugira ngo babigukorere cyangwa banakwereke uko wagikoresha.

Itangazo ririmo ibintu byinshi akaba arimo bisa nk'amazu ndetse n'abantu bashinzwe imirimo myinshi abatetsi, abaganga ndetse n'abandi bajya mu biro bimweba ari minisiteri y'abakozi ba leta yu rwanda bari bari kwerekana ko hari umunsi mwiza w'umurimo handitseho ko minisiteri y'abakozi ba leta b'umurimo yifurije umunsi mwiza umurimo kandi abantu bose bafite akazi baba bagomba kuhuga bakizihiza uwo munsi.

U Rwanda rugeza ku baturage serivisi zose bakeneye hafi yazo irembo na serivisi yaje ikenewe aho igipapuro wajyaga kugishaka muri za minisiteri usigayejya ku irembo bakabikora bakoresheje ikoranabuhanga za telefoni cyangwa mudasobwa. Aha ngaha bari kuvuga ati gana hano urubuga rw'irembo ahanditse polisi, aha ngaha usaba agomba kuba afite indangamuntu y'igihugu cy'u Rwanda ibyo nibisabwa kugira ngo irembo rigufashe kandi usaba agomba kuba afite imyaka iri hejuru ya cumi n'umunani.

Abagabo n'abagore bari bahagaze bambaye udupfukamunwa bigaragaza ko hari indwara yari ihari muri icyo gihe bari bahagararanye mudasobwa bivuze ko hari abantu bari bari kwandika cyangwa bari bari guha serivisi bakeneye babafashiriza hafi byihutisha iterambere ry'igihugu,

Iki ni ikerekana uko imisoro izarangirirwa kwishyura kuko berekana ko bashyizezweho n'ibihano by'abantu batazishyura imisoro, kandi bigaragara ko byari byasohowe n'ikigo gishinzwe imisoro mu Rwanda, Rwanda reveni otoriti, nk'uko tubizi kandi babibashyizeho ko ari ukubikora buri wese.

Ni akazu ka emutiyene k'umuhondo, kariho ibyapa byinshi mu bijyanye na serivisi zose za emutiyene, mo imbere harimo umukobwa, ubona ko ari kuganira n'umugabo uje kumwaka serivisi.

Iki ni icyangombwa cyerekana uko umuntu ashobora kwerekana ko yishyuye imisoro yinjije muri muri buzinesi ze zose, bakubwira aho ujya uko ubikorera uko ubikora byose aho ubyohereza n'uko ubyuhereza aho ahantu hose bakora.

Iki ni icyangombwa kerekana abantu binjira cyangwa bava mu gihugu, kirerekana ko abantu baba hafi y'umupaka bagomba kugira ikemezo gituma binjira cyangwa igisohoka baza mu gihugu, kandi umuntu utaragira imyaka cumi n'itandatu aba agomba kuba bafite ibyo byuzuzo.

Inzu cyangwa ahantu hari igikuta gifite irangi ry'umweru, hariho akamenyetso k'umukara cyangwa ikintu kimeze nk'ikibogisi cy'umukara, cyanditsemo amagambo y'umweru hariho n'akamenyetso kagiye gasa ubururu handitseho wifi, ibi nibyo bisobanurwa nka murandasi idafite umugozi, aho ugeze hose ushobora kuyikoresha kuri mudasobwa yawe cyangwa telefone yawe.

Leta igira ibigo byinshi bishinzwe ubuzima ndetse n'ibitunga abantu, iki kigo minagiri ari cyo gishinzwe ibihingwa kandi bizima bitunga abaturage, cyari kiri kwandika abantu bashaka gutangiza inganda zabo, aho bari bari gusaba amazina, urubuga bakubonaho, nimero zawe ndetse na nimero y'irangamuntu kugira ngo bakwandike, wemererwe gukora umushinga.

u Rwanda rutanga serivisi kubantu bose kugira aho uri hose ubone serivisi ukwifuza kandi ukeneye hafi yawe bitakunnye ngo ujye kure cyangwa bigusabe igihe kinini iyi ni serivisi y'irembo ibaregerejwe abantu ushobora gukorera ahantu hose uri ukoresheje ikoranabuhanga telefoni cyangwa mudasobwa yawe ba bari kwamaza koyandidiindi serivisi bagiye kujya batanga ariyo ishinzwe ibarura uzajya ugenda bakaguha ibyo ukeneye byose hariho nimero ugomba guhamagara ndetse n'urubuga wasangaho.

Umusore usa n'umwirabura wambaye amadarubindi, yicaye ari kuri mudasobwa ye yambaye ikote rya shokora umupira wa orange, akaba yegeranye n'undi mugabo wambaye ingofero y'umukara, ishati irimo umutuku n'umweru ndetse n'umukara, akaba yitetse akantu ko kunywa, izi ni ahantu yicaye hasa nk'aho ari mu isomero ushobora kugenda ukicara ahantu hatuje ugakora ibyo ukora byose nta rusaku.

Ahantu hazitiwe n'ibyuma bisa umweru turabonamo ikintu kimeze nk'aho ari igikoresho gishobora kuba gitanga umuriro kuri uwo munara cyangwa ariho bacungira uko bimeze, uwo munara ukabafasha kandi kugeza insinga cyangwa gushyiraho ibintu bifasha amashusho yo kugera ku bantu.

ikigo gishinzwe imisoro mu rwanda tuzi nka Rwanda Reveni Otoriti, gishinzwe kugenzura imisoro yatanzwe n'abikorera ndetse n'abakorera ahandi, bari batanze itangazo rivuga ngo kwigaragaza ku bushake aho ugomba kwishyura batagutegetse kandi bavuze itariki ntarengwa, ari yo makumya n'eshatu, z'ukwa cumi biri na makumyabiri na kane kugira ngo umuntu yishyurire ku gihe batamuca amande.

Ahantu harimo ibiti ndetse hahinze n'ibigori turimo turahabona hasa neza cyane tukabona umunara w'amashanyarazi, umunara uba umanitse ahantu ku buryo abantu bose bahegereye bagezwaho amashanyarazi biturutse ku nsinga ziwuvaho zijyana ahandi cyangwa zikaba zishobora no kuhagezaho amashusho meza ku bareba televiziyo bareba ibintu byiza.

Leta y'u Rwanda ifasha abaturage kandi ibagirira ubuzima bwiza, ibubakira imihanda kandi ibagezaho n'amashanyarazi, tukabona ipoto riri munsi y'ingo nyinshi kandi ziriho insinga nyinshi arizo zijyana amashanyarazi kuri izo ngo zose kugira ngo abantu babeho neza kandi babona.

Umunara w'itumanaho ugizwe n'ibyuma byinshi cyane, ukaba uriho insinga z'amashanyarazi zijyana umuriro mu byerekezo bigiye bitandukanye. Hafi yawo hakaba hari indabo ubusitani bw'ibyatsi bigufiya ndetse n'amazu, hakaba kandi hateye n'ibiti bitandukanye kumwe muribyo cyikaba gisa icyatsi ndetse gifite indabo zisa umuhondo.

Ikagenda idufasha gukora neza kandi tuniteza imbere igenda idukorera ibikwiye nko kudugezaho amashanyarazi buri wese kandi no ku rugo rwe turabona amapoto menshi agiye ariho insinga zijyana umuriro ku ngo nyinshi tukabona itara rimurika mu muhanda mu gihe haba bwije rimurikira abagenzi kandi ndetse n'ibinyabiziga tukabona amazu menshi y'ubucuruzi kandi n'ibindi byose birinda impanuka.

Ibiti bibiri bikozwe mu cyuma bishinzwe mu busitani burimo ibyatsi bigufiya. Ibi biti bikaba biriho insinga z'amashanyarazi zijyana umuriro mu byerekezo bigiye bitandukanye. Hafi yarwo hari urukuta rukozwe mu ndabo ndetse n'ibiti by'amoko atandukanye bisa icyatsi. Hakaba kandi hari n'umuhanda w'umukara.

Izindi serivisi zitangwa na leta aho leta yiyemeje kugeza amashanyarazi kuri buri muturage aho yaba aherereye hose, turabona iPoto ririho insinga nyinshi zijyana umuriro ahantu henshi, bivuze ko buri muturage uri muri aka gace ashobora kuba agerwaho n'amashanyarazi kuko amazu nayo ahari asa nk'aho ari meza kandi hagera n'imodoka.

inzu ifite inzugi ndetse n'amadirishya by'ubururu, ifite n'ibikuta biririmo ubururu ndetse n'umutuku, iri ku muhanda tukabona umuntu wicaye usa nk'ucuruza amayinite, kandi tukabona ibyapa bigenda byerekana aho umuntu ari cyangwa umuhanda ariho, izi ni serivisi leta iba yaratugeneye kugira ngo tujye tumenya aho turi naho tujya tukabona ipoto ry'amashanyarazi rijyana umuriro kuri buri muturage utuye muri aka gace.

Ndabona ahantu hari amazu menshi amwe asa oranje andi asa shokora, tukabonamo imodoka ariko turabonamo ipoto ririho insinga z'amashanyarazi zijyana ahantu henshi nkuko abantu benshi baba bagomba kugerwaho n'umuriro, izi nsinga nicyo zikora zijyana umuriro.

Igikoresho kirekire gikozwe mu cyuma gisa nk'aho gifite n'ibindi bice hejuru kegereye ikindi giti kirekire kiriho imigozi cyangwa insinga z'amashanyarazi zijyana umuriro ku bantu bose twabona ko hafi yabyo hariho ibiti birebire.

Ikirere cyiza gifite mu mabara y'ubururu n'umweruru, ikirere girakeye rwose, ubwo hakaba hari akazuba, turabonamo iminara ibiri cyangwa miremire ifitemo insinga nyinshi zijyana amashanyarazi ahantu hose, bivuze ngo agera kure ku bantu bose bashobora kuba bayaturiye bagombe kuba babona umuriro kandi babayeho ahantu haka.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye

Leta y'u Rwanda ni byinshi idufashamo aho yihaye intego yo kugeza amashanyarazi kuri buri muturage . Tukabona ibyo dukunze kwita amapoto biri hagati mu murima cyangwa mu busitani bugizwe na pasiparumubigiye biriho insinga nyinshi kandi turabona ko ari bitatu bigeza amashanyarazi ku batuye aka gace, turabona ko epfo yayo hariyo amazu ndetse menshi ubwo buri nzu ifite urusinga ruyigezaho umuriro cyangwa amashanyarazi.

Aha ni aho bahinga indabo cyangwa ibiti. Turabona bagiye biri mu mufuka. Harimo imicanga, ari yo ituma ibiti bikura bibera ubutaka. Bagenda bashyiramo amazi babyuhira, kugira ngo bikure biri hamwe, kandi aha ngaha umuntu ajyayo agiye kurya, ashaka kujyana azakoresha.

Leta igenda idufasha kubaka ibintu remezo, imihanda ndetse n'amavuriro. Hano turahabona ko harimo amapoto ajyana umuriro ku baturage ahantu hose kuko bihaye intego yuko tugomba kuba twese dufite amashanyarazi mu ngo zacu. Ibi ni serivisi Leta iba yadushyiriyeho kugira ngo tubeho neza.

Leta y'u rwanda iradufasha ikatugezaho ibyo dukeneye kandi dukwiriye mu gihe nyacyo kandi neza. uyu ni umunara ugendaho insinga zijyana amashanyarazi ahantu hose, turabona umusozi hirya urimo ibiti n'amazu make, hariya biba bigoye ko wabona umuriro, gusa u Rwanda rwabigize intego ko buri wese abona umuriro mu gihe gikwiye, rero izi nsinga zikaba zijyana umuriro kuri buri rugo kugira ngo bose babeho ahantu heza.

Ipoto ririho insinga z'amashanyarazi zijyana ku mazu turabona inzu rifite ibara ryerutse ry'umuhondo, hamwe n'umweru, kandi turabona ko hariho insinga nyinshi, bivuze ko zijyana umuriro ahantu henshi abantu bose bakabona umuriro.

Ipoto iriho insinga z'amashanyarazi zijya mu byerekezo bitandukanye ribumbye mu ibumba, hafi yaryo hakaba hari icyuma gisize irangi ry'umweru, hasi hakaba ari irangi ry'ubururu, kikaba kiriho itara rishinzwe kumurikira ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru bagenda mu ijuro, hafi aho kandi hakaba hateye indabo ndetse n'ibiti.

Leta y'u Rwanda yadufasheshije byinshi aho yatubakiye amazu ndetse n'imihanda tugenderamo turabonamo abamotari barimo bagenda mu muhanda uhetse ndetse n'udahetse, abanyamaguru barimo baragenda ntakibazo tukabona ko hari n'undi inyuma usa nk'aho yicaye ku muhanda nawe ntakibazo afite tukabona hirya aho umuntu abanza agakaraba isabune n'amazi meza kugira ngo yinjire muri iyo nyubako kandi tukabona igikuta gisizwe amabara y'umuhondo cyanditseho emutiyeni umurongo w'itumanaho mu Rwanda.

igiti kiriho insinga zijyana umuriro mu byerekezo bigiye bitandukanye, hafi y'iki giti hakaba hagaragara inzu, kubera ukuntu iki giti ukirebye uturutse hasi urareba ku bicu neza cyane rwose.

Serivisi zitangwa n'igihugu cyangwa leta y'u Rwanda ni nyinshi aho biyemeje kugeza amashanyarazi kuri buri muturage tukabona ano mapoto ariho insinga nyinshi zijyana umuriro ahantu henshi kandi tukabona ko hari n'inkingi ziriho itara rimurika mu muhanda mu gihe bwije kugira ngo twirinde impanuka z'ibinyabiziga cyangwa n'abanyamaguru.

Mata akayira abantu bacamo binjira muri ino nyubako, iyi nyubako yubatse neza irinda abantu izuba kandi yubatishijwe amabuye asa neza, bakaba bafite inzugi ndetse n'amadirishya hirya yazo hakaba hari pasiparumu, aho umuntu ashobora kwicaramo cyangwa ategurwa ibirori hakaba hari n'intebe umuntu ashobora kwicaramo hanze ategereje, ashobora kuba ari nko kwa muganga ku buryo uba wicaye utegereje ku murongo utegereye ku bakwakira.

Aha ni ku bitaro aho abantu bajya kwivuza turabona umuntu w'umuganga wambaye ifuriya y'umweru wambaye kandi n'imyenda isa ubururu yarakurikiwe n'ababyeyi bahetse abana bisa nk'aho ari umuganga ushinzwe kuvura indwara zagenewe abana b'uduhinja kugira ngo ngo bamere neza.

Turimo turabona abantu benshi bamwe bicaye abandi bahagaze bari ku murongo aha ngaha ugahita ubona ko ari ikigo nderabuzima cyangwa ari ivuriro aho abantu baje kwisuzumisha ngo barebe uko ubuzima bwabo bumeze bivuza, tukabona akagare k'abantu badashoboye kugenda kandi abantu benshi bategereje izindi serivisi igihugu kiba cyarashyizeho kugira ngo zigire ubuvuzi hafi y'abaturage.

Ibi ni ibitaro bari bari kwereka aho bavurira indwara z'amaso ndetse aho uca n'ahandi hose, iyi nyubako isa nk'kaho ikoreramo abaganga benshi buri wese uje kwivuza abagomba kuza, izi serivisi leta igenda itugezaho mu misoro abantu bishyura kugira ngo tubone kwivuza biri hafi n'ibyo dukenera byose.

Amazu menshi agiye akikijwe n'amabati n'inkingi zisa nkaho ari iz'ibyuma, kugira ngo abazenguruka iyi nyubako baticwa n'izuba, akaba kandi hakikijwe n'ubusitani bwiza bwinshi bugizwe na pasiparumu, turimo turabona abantu bagenda, ndetse tukabona n'umukecuru wicaye ku ruhande, asa nkaho ashobora kuba ari ikigo gikora ibintu byinshi, kandi kigendwa n'abantu benshi.

Abantu bicaye ku ntebe zisa nk'aho intebe zagenewe abantu bicaye bategereje serivisi bicaye mu nzu ifite amakaro hasi y'umweru kandi isize irange ry'umweru n'umukara tukaba tubona umugore uhetse umwana ufite igikapu imbere ye ndetse n'umugabo begeranye bisa nkaho ashobora kuba ari mu ivuriro baje kuvuza umwana cyangwa nabo baje kwivuza.

Ahantu harimo umuhanda hagati ukikijwe n'amazu asa nkaho ari manini cyane agiye afite amadirishya y'imyeru haruguru hakaba hari ubusitani burimo ibiti, pasuparumu ndetse n'indabo bakaba barashyizemo itara ry'umweru rikaba rimurika abari gucamo hagati muri muhanda kandi inzu tukaba tubona ko zifite ibara ry'umutuku ku mabati.

Uru ni urukiko rw igihugu turabona umucamanza ndetse n'abandi bambaye imyenda y'imikara n'imyeru bashobora kuba ari abavoka cyangwa abashinjacyaha bahagaze urabona yicaranye inyundo ari gukubita kugira ngo abantu bamwumve, kandi bari mu nzu ahantu heza ari intebe hari abantu bivuze ngo hari urubanza ruri gukorwa.

Mu Rwanda twagize amateka mabi aho twageze jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane habagaho inkiko gacaca arizo turi kubona buri iki cyapa zahuzaga abantu bakoze ibyaha n'ababikorewe bakaganira bagasabana imbabazi bakiyunga, ku buryo bari bandiziho ngo ukuri kurakiza, iyo wavugaga ibyo wakoze uwo wabikoreye akakubabarira akakugirira imbabazi abantu bose babagaho neza mu mahoro.

Serivisi z'igihugu ni nyinshi harimo no gutanga ubutabera ku bantu bose, turabona abantu bane bicaye abagabo babiri ndetse n'abamama babiri bambaye amakanzu y'iroza ndetse n'udutambaro tw'umweru imbere n'ingofero z'umukara zirimo umuhondo aho iyi myenda tuyizi ku bantu bakora ubucamanza aribo abacamanza cyangwa akabakorera mu nzego z'ubutabera kandi afite uturangururamajwi imbere yabo nk'abari mu rubanza kandi hakaba n'ururabo imbere yabo.

Abantu baricaye bisa nk'aho bari kuganirizwaho ubaganiriza yambaye ikositimu, ikoti ry'umukara, ishati y'ubururu ndetse na karuvati, abagore bari bicaye hasi bateze ibitambaro muri bo harimo n'abagabo, hari abari bicaye mu ntebe bisa nk'aho bari bazanye n'uwari uri kuganiriza abicaye kandi abari bicaye bari bafite n'impapuro ndetse n'amakayi bari bari kwandikamo.

Umumama tubona hano ufite imisatsi miremire wambaye amaherena y'uruziga yambaye ikanzu isa oranje ndetse n'agatambaro k'umweru imbere, ashobora kuba ari umucamanza cyangwa akora mu nzego z'ubutabera, kuko iyi myenda nibo bakunze kuyambara, rwose kandi bafasha abantu kubaha uburenganzira bwabo.

Abantu batatu bambaye amakanzu y'umutuku babiri bambaye ingofero z'umukara, ndetse undi yambaye umuhondo bari basa nkaho barimo basuguzanya bahana urupapuro, basa nkaho ari abacamanza cyangwa bakora mu rwego rw'ubutabera, basa nkaho hari ari inshingano bari guhabwa cyangwa ibikorwa basoje, biri gukora undi yicaye asa nk'uwishimiye ibiri kujya mbere, imbere yabo hari amazi meza.

Icyumba kirimo abagabo bane ndetse n'umugore umwe. Muri iki cyumba hakaba harimo abagabo babiri bambaye imyenda y'abanyamategeko ifite ibara ry'umukara mo imbere hasa umweru. Muri iki cyumba kandi hakaba harimo ingororwa imwe yambaye imyenda isa iroza ndetse n'amadarubindi, ikaba nta musatsi namba ifite ku mutwe wayo.

Abantu batatu bicaye bambaye ibisa nk'amashati y'umukara ndetse n'utw'imbere udutambaro tw'umweru, bicaye bafite impapuro imbere yabo ndetse n'amazi yo kunywa bisa nk'aho ari abacamanza bari mu rukiko bari gukemura ibibazo abantu baba babazaniye.

Umugabo uhagaze imbere wambaye ikositimu y'ubururu, ikote n'ipantaro by'ubururu, karuvati y'ubururu ndetse n'ishati y'umweru ahagaze imbere afite akarangururamajwi. Imbere ye akaba ahagaze iruhande rw'idarapo y'u Rwanda, uyu ni perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame asa nk'aho yari ari kuganiriza abaturage cyangwa abo ayoboye abagira inama.

Umugore usa nuwirabura wambaye amadarubindi, ahagaze hafi y'idarapo ry'u Rwanda riba rifite ibara ubururu, icyatsi n'umuhondo, harimo n'izuba risize umuhondo. Yambaye imyenda ikote ry'umutuku ndetse ririmo n'akantu k'umweru, byerekana ko ari umucamanza cyangwa akaba ari umuyobozi ukora mu nzego z'ubutabera.

Umumama rwose se wirabura wambaye ishanete mu ijosi akaba yambaye ikote ry'ubururu ndetse n'umupira uririmo mu tubara dutandukanye yicaye asa nk'ukurikiye ibintu biri kumubera imbere, afite amazi ndetse n'umutobe mu macupa amuri imbere n'ikirahure cyo kuza kunyweramo, akaba afite ikayi arimo arandikamo bisa nk'aho hari inama arimo cyangwa hari iyo ayoboye ari ibyo arikurikira.

Abantu bambaye iroza kandi bambaye udupfukamunwa bisa nkaho ari imfungwa zo mu gihugu cy'u Rwanda aho ari abantu baba barakoze ibyaha bakabafunga muri gereza kugira ngo bihane, bitekerezeho, bafite mudasobwa imbere yabo byerekana ko ni igikorwa cya leta y'u Rwanda yari ishaka kubagezaho kugira ngo aho bari hose bamenye ibijya mbere mu gihugu n'amakuru abageraho.

Umugabo usa nk'uwirabura wambaye amadarubindi, ikanzu itukura, imbere yaho hari umukara n'umweru, yambaye n'ishati y'ubururu ndetse na karuvati ishobora kuba ari umukara. Ibi yambaye bigaragaza ko ashobora kuba ari umucamanza cyangwa akora mu nzego z'ubutabera.

Ikirangantego cy'u Rwanda kirimo agaseke indabo, izuba ndetse n'ibindi, izi ni inshingano ziba ari iz' u Rwanda cyangwa abantu bakora mu nteko nshingamategeko y'u Rwanda kandi ikaba bari kwerekana Itegeko nshinga rya repubulika y'u Rwanda mu mwaka wa mirongo itandatu na kabiri igazeti ya leta nimero rwose ivuze serivisi leta iba ikora kugira abaturage babeho neza

Amacupa menshi asa umutuku ateretse hamwe bivuze ngo ashobora kuba agurishwa cyangwa hari ahantu abitse yenda kuzakoreshwa iri cupa turizi aho baryita kizimyamoto aho rikoreshwa rizimya umuriro wabaye mwinshi ahantu hahiye cyangwa n'ahandi habaye ikibazo hakaba hari umuriro, iri cupa rirekura umwuka uzimya umuriro mu gihe kidatinze cyane.

Umutekano uri mu bintu byitaweho mu Rwanda, kuko buri muturage agenewe umutekano no kubaho anezerewe ntacyo yikanga, uyu tubona ahagaze hano ni umupolisi w'igihugu cy'u Rwanda wambaye umukara kandi hakaba harimo n'utuntu dufite ibara ry'icyatsi, akaba yambaye n'inkweto y'umukara n'ingofero y'umukara, akaba akora mu nzego z'umutekano aho akora akazi gafasha abaturage kubaho neza ntacyo bikanga cyabahangayikisha.

Ni serivisi za leta zitangwa n'igihugu ziba zicunga umutekano w'abaturage; turabona imodoka z'umweru n'umukara zanditseho polisi; bivuze ngo ni abapolisi bazikoresha bacunga umutekano. Iki ng'iki akaba ari ikigo gishinzwe umutekano gihana abanyabyaha kandi kikabafasha kubageza mu butabera zirinda umutekano w'igihugu.

Icyumba kirimo abanyeshuri bambaye impuzankano. Hasi ni kaki, hejuru akaba ari amashati y'umweru kandi bakaba bambaye n'inkweto zifunze zisa umukara. Imbere yabo hakaba hari umuntu wambaye agapfukamunwa ufite igikoresho cyabugenewe mu kuzimya inkongi y'umuriro. Bisa nkaho arimo arasobanurira abo banyeshuri uko icyo gikoresho gikoreshwa.

Leta y'u rwanda ni byinshi ifasha abaturage ibaha ibikoresho ndetse na serivisi zatuma babaho neza nta nkomyi ,iki gikoresho turi kubona kirimo icupa ry'umutuku nicyo bita kizimyamwoto aho gikoreshwa bazimya umuriro mwinshi kirekura umwuka kikazimya, tukaba tubona ko kiri ku gikuta gisa ibara ry'umweru cyangwa umuhondo hasi yaho haricyo bashyiramo imyanda aricyo bakunze kwita poubelle.

Imbuga isa umweru, urukuta ruriho ibikoresho byabugenewe mu kurwanya inkongi y'umuriro. Kimwe kikaba kiganjemo ibara risa umutuku, ikindi kiganjemo ibara risa umweru. Ibikoresho byombi bikaba bifite imiyoboro isa umukara.

Umuhanda uhagaze umupolisi hagati wambaye imyenda y'imikara ndetse hagiye harimo amabara y'icyatsi n'umweru, akaba asa nk'uwari uhagaritse abamotari ku murongo bose bagiye bafite abagenzi kandi ku ruhande ya bo hari hari imodoka ya polisi ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, abamotari bishobora kuba bari bari kubabwira amategeko y'umuhanda bagomba gukurikiza cyangwa bahagaze kugira ngo izindi modoka zitambuke cyangwa abandi bamotari.

Ni umuhanda usa nk'aho wari uw'amabuye uri kugenda usa nk'uri gupfa turabonamo imodoka y'umukara yanditseho ngo diteyinizi vani ubwo iyo modoka bivuze ko ni imodoka ijyamo imfungwa zijyanywe kuri gereza cyangwa zijyanye ku rukiko kandi akenshi hari n'igihe bakoresha babajyanye kwa muganga izi ni serivisi u Rwanda iba yarashyizeho kuko nabo uko baba bafunze ntabwo baba barabujijwe uburenganzira bwabo ku byo bagombwa.

Leta y'u rwanda itugezaho serivisi nyinshi iduha ubuzima bwiza ,turimo turabonamo abantu benshi basa nkaho bahagaze bareba ibiri kuba ,bambaye udupfukamunwa nk'aho icyo kigo ari ikigo gikorerwamo ibintu bikomeye ,twabona umuntu wambaye ikote cyangwa igisarubeti cy'umukara kirimo amabara y'icyatsi hagararanye na kizimyamoto asa nkaho yari kuzimya umuriro uvuye mu isafuriya n'abandi bamureba.

Icyapa kiriho ibirangantego bibiri, kimwe ni icya Repuburika y'u Rwanda, ikindi ni icya Police y'u Rwanda. Amwe mu magambo yanditse kuri iki cyapa hariho Police y'u Rwanda, ishami rya Police ry'Akarere ka Nyarugenge, ndetse na Sitasiyo ya Polisi ya Rwezamenyo. Hakaba hariho kandi na nimero za telefone arizo zeru, karindwi, iminani ibiri, gatatu, rimwe eshatu, gatandatu ebyiri.

Umugabo usa nk'aho yiyubashye wambaye ikositimu ikote ry'ubururu ishati y'umweru ndetse na karuvati y'umukara, yicaye rwose afite terefone yiwe mu ntoki asa nkuri gufotora ikintu imbere ye, yegeranye n'undi wambaye ikositimu bicaye mu ntebe bafite ameza imbere yabo, uko bisaba abantu bari mu nama kuko bambaye imyenda ya kiyobozizi kandi iyi myenda bayijyana mu muka kiyubashye.

Icyumba kirimo abagabo batatu bambaye ikositimu n'abagore bane bakenye imbere yabo hakaba hari indangururamajwi bose bamanitse ikiganza cyabo cy'iburyo bafashe ku ibendera rya repubulika y'u Rwanda barimo bararahira.

Leta y'u Rwanda ikunzwe n'abaturage bayo kuko itugezaho byinshi tukabona abantu benshi cyane basa nkaho bari gutera igipfunsi hejuru nkaho bari kwamamaza perezida wacu Paul Kagame ariwe tuzi ko ahagarariye ishyaka efuperi, ari ryo riba rifite aya mabara umweru, ubururu ndetse n'umutuku, aho abantu bose bari bambaye imyenda yo hejuru y'imyeru, umutuku ndetse n'ubururu bari benshi cyane.

Umuhanda ukoze neza hagati harimo umurongo w'umweru wihese, umuntu uri ku kinyabiziga cy'ikinyamitende n'undi uhagaze mu kayira k'abanyamaguru mu mpande zawo hari amazu ahakikije n'ibyuma birebire biriho insinga z'amashanyarazi nyinshi.

Abantu benshi bahagaze ahantu hamwe barimo abagore n'abagabo bagiye bambaye imyenda itandukanye tukabona basa nkaho barimo barakoma amashyi cyangwa hari ibikorwa byabagenzaga barimo imbere yabo hakaba harimo imeza itwikirije igitambaro cy'umweru kandi imeza ikaba ifite ibara ry'umutuku ,intebe zabo ba bakagombye kwicaraho zikaba zirimo amabara y'umweru ndetse n'icyatsi inyuma tubona icyapa cyamamaza uwo muntu wambaye ikositimu y'umukara ndetse n'ishati y'umweru na karuvati.

Abantu barimo abagabo ndetse n'abagore bicaye mu ntebe zisa ubururu basa nk'abategereje ikigiye kuberekwa imbere cyangwa hari inama barimo y'ibintu bagiye kuganiraho bakaba bambaye byiyubashye abagabo turi kubona imbere bambaye amakositimu, ikote, ishati ndetse na karuvati.

Aba ni abagore rwose babona ko bakuze, kandi bambaye byiyubashye, bahagaze iruhande rw'itarako ry'u Rwanda, bisa nkaho bakora mu nzego z'ubuyobozi, hejuru hari ifoto y'umuyobozi w'igihugu cyacu, ari we perezida paul kagame, abagore bari bishimye nk'aho bahawe inshingano cyangwa ibyo bakoze byujujwe.

Umugabo tubona mu ifoto wambaye ikositimu, ikote ry'ubururu ndetse ishati irimo umweru n'ubururu, na karuvati irimo amabara avanze, uyu nguyu tumuziho ko yabayeho perezida mu Rwanda bakaba baramwitaga Habyarimana.

Abantu bingeri zitandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore bakaba bambaye impuzankano zigiye zitandukanye bamwe bambaye izifite amabara y'ubururu ndetse n'umutuku abandi akaba ari ubururu ndetse n'umweru bamwe muribo bambaye ingofero zisumweru benshi muribo kandi bakaba bafite utudarapo twishyaka rya FPR.

Izindi serivise leta iba yarateguye, cyangwa gahunda iba yashyizeho turabona perezida wacu paul kagame arimo yambaye ishati y'umweru cyangwa umupira w'umweru, yazamuye akaboko ababwira abantu, ati ku gipfunsi twabonamo idarapo ry'ishyaka ahagarariye efupeyeri, ndetse n'abaturage bose baje kumureba kandi bigaragara ko bamwishimiye.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo abanyonzi abahetse n'abadahetse abantu, bagiye bambaye ibiri umutwe wabo aribyo twitwa kasike umutuku, ubururu n'irindi bara, tukabona icyapa hepfo y'umuhanda cyamamaza gutora perezida wacu Paul Kagame hariho ifoto ye kandi hariho n'igipfunsi hakabaho n'idarapo ryishya yacu Efuperi.

Umuyobozi w'igihugu cyacu Paul Kagame niwe ugaragaramo hano, yambaye umupira w'ishyaka efuperi (FPR) w'umweru ndetse n'ingofero y'umukara akaba yarimo aza asa nkusuhuza abaturage ,agaragiwe n'abasirikare cyangwa abaporisi bari bamurinze bambaye imyenda y'umukara ndetse n'ingofero z'umukara ,abaturage bo hirya basaga nk'aho bari benshi gusa bose bafite amadarapo ya efuperi (FPR).

Serivisi leta igeze ku banyagihugu, nibona ko bubatse imihanda bamanika iminara igeza insinga z'amashanyarazi kuri buri rugo, tukabona ko kandi izi modoka ni imodoka ziba zaraguzwe n'igihugu kugira ngo zitware abagenzi aho bifuza kugera bagira aho bava, imihanda kandi iragengwa n'abanyamaguru, amamotari baragenda kandiyi n'abamotari bose barayikoresha.

imodoka nyinshi zaparitse ziri ku muhanda, kandi n'abmotari barimo n'abanyamaguru nabo barahagaze, tukabona icyapa cyanditseho yesi fone, ubwo ni tekino, terefone iba icuruza umuntu ushobora kugenda ukagurirwamo terefoni, aba bahari bashobora kuba bari bafite abo baje kureba cyangwa bakorera muri iyo nyubako, bakaba begereye umuhanda bivuze ko hari aho bari bavuye.

Abantu barakora bakishyura imisoro, imisoro akaba ariyo yubaka iyi mihanda, kandi igafashwa n'abaturage bari ahantu henshi kubona umuriro, tukabona ko bubatse umuhanda mwiza wa kaburimbo, aho moto zirimo ziragenda nta kibazo, tukabona kandi amapoto ajyana amashanyarazi ku bantu bose, kandi kubari aho hafi hariho n'ibiti bikikije umuhanda ,tukabona n'inzu ifite igipangu cy'umweru.

Umuhanda usa umukara urimo ibinyabiziga bitandukanye. Bimwe muri byo ni ipikipiki iriho uyitwaye, wambaye impuzankano yabugenewe ndetse n'ikinyabiziga gishinzwe kwikorera imizigo. Hakaba hari akayira k'abanyamaguru ndetse na ruhurura iri hafi yako. Hirya y'umuhanda hakaba hari ibiti.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo umuyonzi wambaye ingofero ndetse n'ishati isa nk'aho n'iipantaro y'umukara, akaba arimo aragenda abusanya n'igikamyo gifite aho gitwara ibintu by'icyatsi, ndetse aho abatwaye imodoka baba bicaye h'umweru, tukabona umunyamaguru nawe uri kugendera hepfo kandi harimo n'ibiti n'imodoka nyinshi ziparitse hepfo y'umuhanda.

Umuhanda tutabonamo imodoka yanditsweho yego kapu ariyo twita tagisi mu Rwanda aho ushobora kugera aho ushaka kujya ukabahamagara bakaza bakakujyana, bakakugezayo kandi hepfo hari hari amazu bivuze ngo hari uwari wayihamagaye cyangwa hari uwo yari imugejeje aho yagombaga kugera, izi zirakora kandi wishyura ari uko ugeze aho wajyaga.

Umusaza uri gusoma igitabo akaba ari umusaza ufite imvi z'uruyenzi ndetse yambaye amarinete kugira ngo abashe kubona inyuguti.

Umuhanda munini abantu baragenda imodoka nazo zikagenda, ndabonamo imodoka y'umweru iyi ngiyi itwara abagenzi rusange, abantu bose bakoresheje amakarita yabo badafite imodoka zabo bwite cyangwa bazifite zitari gukora, tukabonamo amapoto ageza amashanyarazi kuri buri bose abantu bose bakabona umuriro, ukakabonamo n'umusozi urimo ibiti rwose, bisa nkaho ahantu hari hatuje.

Mu muhanda harimo imodoka, imodoka iparitse haruguru yayo hari ibiti kandi hari n'umukingo ikaba yicayemo umuntu usa nk'uri kuyitwara imodoka ikaba isa ivu ikaba yanditseho "we can school Ltd" yerekana ko ni ikigo cyigisha gutwara imodoka ibi ubisanga wenda gukorera uruhushya rwo gutwara imodoka ari rwo twita perimi.

Imodoka nyinshi ziri mu mujyi zitwara abagenzi cyangwa zije kubasiga aha niho dukunze kwita muri gare, ubungubu turimo turabona ko abagenzi barimo baragenda bafite n'ibyabo, bamwe baraseka abandi barimo barasubirayo nk'abazivuyemo cyangwa bagiye kuzishaka izi modoka ari nyinshi ziba zigiye ahantu kure aho twise mu ntara harimo icyapa cya eyateri umurongo dukunze gukoresha duhamagarana.

Imodoka y'ubururu mu bwoko bw'ikamyo isa nkaho yikoreye ibintu birebire bishobora kuba bikoze mu byuma cyangwa muri pulasitiki, yabipakiye birenga n'uruhande rw'imodoka harimo umuntu uri hejuru yayo usa nkaho ari uri kubipanga, ikaba iri mumuhanda tubona icyapa cyanditseho ngo cita simenti, ni uruganda ubwo rukora sima arizo zikoreshwa mu bwubatsi.

Iimodoka iri mu muhanda haruguru yaho hari umukingo ibiti ndetse n'ibyatsi, iri mu muhanda yonyine isa ibara ry'ivu, isa nk'umuntu uyirimo asa nk'aho ari umugore yanditseho ngo wicani darayivingi sikuru yerekana ko ari imodoka umuntu ajya gutwara ari gukorera uruhushya rwo gutwara imodoka arirwo twita perime.

Umuhanda w'umukara urimo uragendamo ibinyabiziga bitandukanye. Bimwe muri byo hakaba harimo ikinyabiziga cy'ubwikorezi, gifite amabara atandukanye ariko muri yo higanjemo ibara ry'icyatsi cyerurutse. Iruhande rw'umuhanda hakaba hari akayira k'abanyamaguru harimo haragendamo abantu. Hafi y'akayira k'abanyamaguru hakaba hari ruhurura igenewe gutwara amazi ndetse hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Imbuga isa umukara irimo ibinogo byiretsema amazi hahagazemo imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange imwe muri zo akaba ariya sosiyete ya Yutongo ifite amabara tw'umweru ndetse n'ubururu ikaba ifite inzugi n'amadirishya bifite umukara hirya yabyo hakaba hari ishyamba riteyemo ibiti umunara w'itumanaho ndetse n'amatara yo ku mihanda.

Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda nziza yo gushyiraho ahantu imodoka zizajya ziparika kugira ngo abagenzi bazibone bajya cyangwa bagira aho bava mu mijyi itandukanye, aha ngaha turimo turabona imodoka nyinshi ziparitse z'amakompanyi menshi turabonamo iyitwa Sitera tukabona abantu bagenda bikoreye imizigo yabo bayijyana mu modoka cyangwa bayivuyemo n'abandi bajya mu modoka kugira ngo bagende cyangwa bavamo.

Umuhanda w'umukara w'ibyerekezo bibiri urimo ibinyabizga bigiye bitandukanye. Kimwe muri byo akaba ari imodoka isize ibara ry'umweru yagenewe gutwara imizigo ya sosiyete ya dayihatsu. Hafi gato y'uwo muhanda hakaba hari akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda usa n'utameze neza washaje ufite ak'abanyamaguru ku ruhande na rigore ruguru, no hepfo basa nkaho bari kubaka, irimo imodoka isa umweru bisa nkaho ari y'uruganda cyangwa kompanyi izwi yitwa uruvange.

Umuhanda urimo urugendwamo n'imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo isa umweru, isa nk'ipakiye ibintu byinsh,i irengejweho shitingi y'ubururu kandi bikaba bizirikishijwe imigozi isa nkaho ikomeye y'umweru, irimo shoferi ndetse n'umugenzi, hepfo yaho hakaba harimo ibiti birebire cyane.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru, urimo ugendwamo n'imodoka ndetse n'abamotari, tukabona imodoka nini y'igikamyo isize ibara ry'umweru, isa nkaho hari aho yari irimo irajya, inyuma yayo harimo moto, hepfo bisa nkaho hari inzu ndetse n'ipoto rijyana amashanyarazi kub'abaturage.

Umuhanda w'umukara ukaba urimo ibinyabiziga bitandukanye kimwe muri ibyo hakaba harimo imodoka isize ibara ry'umweru ya sosete ya Mitsubishi, hirya y'umuhanda hakaba hateye ibiti ndetse hahagaze n'ibindi binyabiziga bitandukanye; hafi yaho kandi haba hari akayira k'abanyamaguru ndetse na ruhurura igendamwo amazi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ndetse n'amagare imodoka ifite irange ry'umweru ndetse n'umuhondo iyi ni imodoka dukunze kwita tagisi isa nk'irimo umuntu uyitwaye ndetse n'uwo atwaye, kandi abanyonzi turi kubona ko bikoreye imifuka isa nkaho irimo ibirayi cyangwa ibindi bindi ibi nibyo dukunze kwita serivisi y'u Rwanda iba yaduhaye umuhanda ugendwa mwiza kandi turabona ibiti hepfo bisa nkaho bari gukora ahandi.

Nimutabona umuhanda ndetse n’udupasiparume tugiye turimo umutako haruguru, tukabonamo inzu zubakishijwe imbaho zijye ziriho imitako myinshi yashushanyijwe ahangaha. Niho tuzi bantu bakora ibintu bya Kinyarwanda, ba bidodeye cyangwa banishushanyirije, bajya kubimurikira kugira ngo ubishatse ajye kubigura nk’amashusho ayamanike mu nzu n’abandi biteza imbere.

Izindi serivisi igihugu kiba cyaradukoreye nk'abaturage, urabona bubatse ikibuga cy'umupira wa ruhago, turabona abantu barimo barakina benshi b'abagabo, kandi hagiye harimo aho abafana bakicara bikinze n'akazuba, kandi abakinnyi nabo bagakina batuje.

Iyi nzu isize irangi ry'umweru umutuku ku nkuta hamwe hasi hariho irangi rya shokora isa nkaho wagira ngo ni eyaterimani uko dukunze kuyita icuruza amatelefone n'amasimukadi kabona icyapa cyanyanditseho eyateli kiriho abakobwa babiri basa nk'abishimiye serivisi.

Icyapa cyo ku muhanda, kikaba gishushanyijeho uruziga rw'umutuku rurimo akarongo kaberamye mw'imbere hari igare. Amwe mu magambo yanditse kuri ik'icyapa aragira ati ''Akaga ntakugendera kw'igare'' ibi bikaba bivuze ko umuhanda uteretswemo ik'icyapa nta gare yemeye kuhangendera.

Iki ni icyapa cyo mu muhanda gifite umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru ndetse n'ikimenyetso cy'umukara uwo mugabo usa nkaho arimo aragenda byerekana ko imbere harimo akayira k'abanyamaguru iruhande ku buryo bemerewe kugenda.

Serivise, zashyizweho n'igihugu kugira ngo bamenye amazu ndetse n'abatuye muri ayo mazu kuri uwo muhanda baba bagezeho, iki ni icyapa kiba cyanditseho umuhanda w'inzu kandi n'umubare w'inzu, turimo turabibona ni muri Kigali ku muhanda wa gatanu inzu y'ijana na mirongo inani n'agatanu, aha niho umenyera inzu mu gihe ugiyeyo cyangwa uri kurangira uhagusanze.

Icyapa cyerekana aho imodoka zihagarara zigiye gukuramo cyangwa gushyiramo abagenzi iki cyapa kiba cyarashyizweho n'igihugu kugira ngo serivisi zigende neza icyapa urabona ko cyanditseho inyuguti ya P yerekana parikingi kandi hakaba hari n'imodoka byerekana ko ari aho imodoka ihagarara turabona ko n'abantu bahagaze hirya bayitegereje.

Uyu muhanda usa nkaho uri ahantu hitaruye cyane ukaba ufiteho icyapa gifite ibara ry'umuhondo n'akantu k'umukara kagondamye aka kantuba kagaragaza ko aho ugeze cyangwa aho ugiye kujya hari ikoni rijya ibumoso ku buryo utagomba kuza wihuta, ugomba kugabanya umuvuduko kugira ngo urivamo nawe uriryamo mugende neza mudakora impanuka.

Ikimenyetso cyo mu muhanda gifite ubuso bw'ubururu ndetse n'uruzenguruko bw'ubururu hakaba harimo ikimenyetso gifite ibara ry'umweru, ikimenyetso kikaba cyemeza ko imodoka zishobora gukomeza imbere cyangwa zigakata zijya guca iburyo ,iki ni ikimenyetso cyerekana ko izi nzira ari zo zemerewe muri uwo muhanda kugira ngo imodoka zitambuke nta kibazo cyangwa nta mpanuka ibaye.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ak'abanyamaguru bisa nkaho hari umuntu uri kugenda haruguru yaho hari inzu usa nk'aho ari inzu z'ubucuruzi utabona icyapa gifite umusenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru ndetse harimo ikimenyetso cy'umubare mirongo itandatu biba bigaragaza ko abatwaye ibinyabiziga batagomba kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu kuko haba hari abandi bamanuka cyangwa bazamuka.

Hano hasa nkaho ari ahantu hari mu mugi, turabona ko harimo umuhanda wa kaburimbo ugiye urimo ibimenyetso byerekana aho imodoka zijya na'aho zishobora gutambikira, tukabona umugore wambaye ibitenge kandi unateze mu mutwe ahagararanye n'umugabo wambaye ikositimu basa nkabaganira kandi hari icyapa cyerekana ko nta munyonzi ugomba kugendera kuri kariya kayira k'abanyamaguru tukabona inzu iri ruguru ifite amabara y'ubururu n'umweru.

Ndabona umuhanda urimo icyapa cy'umweru ndetse n'umutuku kandi, iki cyapa kikaba cyerekana ko umushoferi ugenda muri uwo muhanda agomba guhagarara cyangwa kugabanya umuvuduko, kugira ngo areke ibinyabiziga biva mu kerekezo cy'undi muhanda bikomeze nta nkomyi cyangwa nta mpanuka ibaye.

Abantu bahagaze harimo uwambaye ikote rifite ibara ry'umukara n'ipantaro yumukara ishati yu'mweru ikanzu ifite ibara y'umukara ndetse n'ikote rifite ibara ry'ubururu ishati y'ubururu n'ipantaro ifite ibara ry'ivu bafite urupapuro ruriho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Iki ni icyapa cyo mu muhanda ako gafite ibara ry'umukara kaba kerekana ko imbere hari undi muhanda ukomeza naho ako ngako gafite ibara ry'umutuku hagati gafite mpande umunani kaba kasobanuye guhagarara kaba bategura buri muntu utwaye ikinyabiziga kugira ngo yitegure guhagarara imbere atagira impanuka.

Leta irinda ibinyabiziga ndetse n'ababitwaye ndetse n'abandi banyamaguruye bose, igenda ishyiramo ibyapa byo mu muhanda bimwe bigenda biyobora abatwaye ndetse n'abanyamaguru. Iki cyapa gifite ubuso bw'umutuku ndetse n'umuzenguruko w'umutuku cyanditsemo ko ugomba guhagarara mu gihe ukibonye imbere yawe kugira ngo abandi bagende cyangwa izindi zikomeze.

Ikindi ni icyapa cyo mu muhanda, icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umuhondo ndetse n'ikimenyetso cy'umukara iki kigaragaza ko imbere aho umuhanda ugiye kujya hari gukorerwamo imirimo, ugomba kugenda gake kugira ngo utagonga cyangwa ugakora impanuka.

Izindi gahunda za leta iba yarashyizeho ngo ifashe abanyagihugu bayo batwara imodoka cyangwa se bazigendamo ndetse n'abanyamaguru kwitwararika mu muhanda, iki kandi ni icyapa cyerekana ko imodoka ishobora guhagarara aho hantu umuntu aruhuka cyangwa hari abagiye kuvamo cyangwa abinjira, icyapa kigizwe n'inyuguti pa cyerekana pakingi.

Mu muhanda haruguru yaho hari amazu ageretse kabiri ubona ko handitseho ngo hoteli cyangwa aparitema aho bacumbikira abantu bakaraharara, kandi munsi yaho hari aho bahahira hari isoko rinini bahahiramo.

Aya ni amazu turi kubona hejuru haho ayo ni amabati inzu zibayeho zegeranye cyane abantu bashobora kuba batuye ahantu hafatanye cyane, icyo tugomba kubona ni uko hari iminara y'amashanyarazi bivuze ko u Rwanda ntako rutabagize ku buryo buri wese abona umuriro aho ari hose ashobora gucomeka telefoni cyangwa agakoresha na mudasobwa ye areba ibyo akeneye byose kandi hari n'ibiti biyazengurutse.

Amazu menshi agiye afite ibitwikira hejuru, ari byo amabati, bitandukanye amabara, turiimo turayabona, hagati harimo ibiti hagati yazo ndetse n'insinga z'amashanyarazi, bivuze ngo ahantu hose hagera umuriro muri aya mazu, kandi babayeho neza.

Iyi nzu isize irangi ry'umweru umutuku ku nkuta hamwe hasi hariho irangi rya shokora isa nkaho wagira ngo ni eyaterimani uko dukunze kuyita icuruza amatelefone n'amasimukadi kabona icyapa cyanyanditseho eyateli kiriho abakobwa babiri basa nk'abishimiye serivisi.

Umuhanda usa nkaho ari umuhanda wa kaburimbo, hirya hariho akapasiparumu kashaje, tobona imodoka ziparitse hirya iz'umweru ndetse n'iz'umukara umuhanda uragendwa, tuyibonamo abanyamaguru, hakaba hari amazu asize irangi ry'umweru, kandi harimo n' izindi serivisi z'u Rwanda urabona ko abantu baba bagenda ari amahoro ntacyo baba.

Aha ni i muri kimironko Bibare turimo turabonamo amazu ayuzuye z n'atuzuye harimo ibiti kandi hari motebona ko abantu bahatuye imodoka ziragenda hariho umuhanda izi ni serivisi u Rwanda rwashyizeho kugira ngo umuntu wese abashe kubaka cyangwa abashe kubona aho aba , aho hantu harimo ibiti bivuze ngo nta suri izabatera.

Umuhanda w'inzu ukiriho icyapa yerekana nimero y'inzu, ndabona ko hari umunyozi usa nkaho uri kwinjiramo. Haribyo bipakiye ku igare rye, hepfo ye tukaba tubona ko harimo inzu ifite inkingi z'umweru ndetse n'amadirishya asa umweruru. Ikaba ikikijwe n'ahandi hasi umukara amabati yayo akaba asa umutuku, kandi hakaba harimo ibiti hepfo y'umuhanda ndetse n'imodoka ziparitse n'abagenzi barimo baragenda.

Mu muhanda turabonamo umumotari wambaye ibyo twita kasike y'umutuku n'agakoti k'umuhondo ndetse n'ubururu, ari kuri moto ye agenda afite na terefoni mu ntoki, hepfo hakaba hari amazu atatse neza rwose afite amabati y'umukara asize irangi ry'umweru.

umuhanda usa neza mwiza wa kaburimbo, hepfo hari agahanda k'abanyamaguru gateye pasiparumu nta modoka nta moto nta gare birimo biragenda ndetse' n'abanyamaguru bahari tukabona inzu igeretse nini, isa nkaho ikorerwamo ibikorwa byinshi bishobora kuba ari iby'ubucuruzi, hakaba hariho icyapa cyamamaza inzoga twita sikoru hakaba hariho n'ibindi byinshi bigaragaza ibikorerwa mu iyo nyubako.

Turabona ahantu heza hasa nk'aho hari inyubako zikora ubucuruzi, imodoka nyinshi ziparitse imbere, tubona icyapa cyanditseho ko hari iduka rinini ryitwa samba baba bari kwamamaza ikinyobwa cyitwa fanta, gikorwa n'ikigo cya buralirwa, aba bose bari baparitse bari bafite ibyo baje kugura cyangwa ibyabazanye aha hose cyangwa bakaba banakoramo.

Aha hantu harubatse haratuwe neza, harimo amazu agiye atandukanye yubatse mu buryo butandukanye, amazu afite amabati atukura izindi zifite ibikuta bigiye bifite irangi ry'umweru cyangwa icyatsi, bikaba bigiye bifiteho ibipangu bifunga buri rugo rw'umuntu, kandi hagiye harimo ibiti, ku buryo abantu bose, kandi harimo n'insinga zibajyanaho umuriro abantu bose babayeho neza.

Inzu nziza nini z'imiturirwa zigiye zigeretse tubona ko yose aragereritse ni meza kandi harimo n'ibiribwa baba bahinze ibigori, hano ni mu Rwanda muri Kigali turabonamo ndetse n'insinga z'amashanyarazi zibagezaho umuriro.

Mu Rwanda ni ahantu hari amahoro, hari pariki nyinshi, iyi ni parike imwe muzo dufite yitwa Nyandungu, Nyandungu igihe i ibiti byinshi irimo ahantu henshi ho kwicara kandi igihe irimo n'ahantu umuntu yakicara agafatira icyo kunywa aha turi kubona ni ahantu hagiye hari ibiti aho umuntu ashobora kwicara akikinga izuba, akumva akayaga.

Izindi serivisi za leta byo baba batanze ubutaka berekana imiturire y'abantu, tukabona umuhanda uba warubakishijwe hakoreshejwe imisoro kandi munsi y'umuhanda hariyo amazu menshi meza yubatse neza kandi asize amarange atandukanye, harimo ibiti tukabonamo n'insinga zigeza amashanyarazi kuri buri muturage nk'uko igihugu kiba gishaka gutera imbere.

Aha ni Kimironko nk'uko tubibona aka gace tubonamo amazu meza yubatse neza ahageretse n'atageretse gusa amazu meza yubatse asa nkaho afite ahantu hanini, tukabona ko bafitemo akayira n'ibiti, ibiti aba ari gahunda ya leta yarashyizweho kugira ngo mu gihe tugize imvura nyinshi hatagira ikiba kuri ayo mazu ari muri ako gace, kandi tukabona ko hari insinga z'umuriro bivuze ko buri rugo rugerwaho amashanyarazi.

Ndabona umuhanda bisa nk'aho bwije gusa ahantu hose hari amatara haraka, iyi ni serivisi u Rwanda ruba rwaragejeje ku baturage aho bashyira amatara mu muhanda ahantu hosekugirango ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru bagenda bwije babe babona kandi tukabona ko hari imiturirwa myiza kandi nayo igiye ifite amatara ibintu byose biri ku murongo.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara ukikijwe n'ibiti byinshi kandi birebire, urimo agendwamo n'abamotari ndetse n'imodoka, iyi ni imihanda leta ibashyize kugira ngo abantu bose bagende muri rusange, kandi haba harimo ibyapa birinda impanuka ndetse abantu bose bakagera iyo bagiye amahoro kandi ku gihe.

Umuhanda urimo imodoka zitari nyinshi iy'umutuku inyuma, imbere hari izindi n'amamoto hepfo tukabona urukamyo runini cyane bisa nk'aho ari rwarundi ruterura izindi, mu muhanda tukabonamo icyapa kiriho umweru tukabonamo amapoto rwose y'amatara amurikira umuhanda.

Leta igenda iduha serivisi nyinshi dukeneye mu buzima arizo kutwubakira imihanda yo kugendamo ikwiye kandi ishobora kugendwamo n'ibinyabiziga ibyo ari byo byose ndetse n'abanyamaguru turabona umuhanda uri munsi kandi tukabona n'undi uri hejuru uwo umunsi ukaba kugendamo imodoka, abamotari ndetse n'abanyonzi ukabaho akayira k'abanyamaguru hejuru kandi tukaba tubona ko naho harimo imodoka nyinshi imihanda ikaba ikikijwe n'ibiti.

Umuhanda ukikijwe n'ubusitani burimo icyuma gifite amabara y'ivu ndetse n'umukara, iki akaba ari icyuma gifata amashusho y'imodoka yishe amategeko y'umuhanda, cyangwa igenda atishyuye imisoro yayo. Hakaba kandi hari ibiti binini bikikije umuhanda.

Akayira kabanyamaguru karimo karagendamo abantu ndetse n'amagare hafi aho hateye ibiti ndetse n'ubusitani bw'ibyatsi bigufi muri ubwo busitani harimo ipoto ishinzwe kujyana umuriro w'amashanyarazi mubyerekezo bitandukanye hafi yiryo poto kandi hakaba hari iteme risa umukara ririmo riragenderamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hafi yiryo teme hakaba hari akayira kabanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abamotari, inyuma yawo tukabona amazu menshi rwose matoya ari haruguru y'umuhanda, mu muhanda harimo abantu kandi turabona n'ibiti bikikije umuhanda.

Iby'ibanze wakora mu gihe habayeho gusohoka kwa gaze, mu gihe uri nko mu nzu ushobora gusohoka cyangwa ugakoresha ubundi buryo bwakurinda kugira ngo itaza kukwangiza.

Ndabona umuhanda w'amabuye utaravugururwa ngo ugirwe kaburimbo, wegeranye n'undi wa kaburimbo uba ukoze neza urimo ibiti kandi urimo n'amapoto amwe y'amatara cyangwa amashanyarazi ukabona imodoka zirimo i zigenda kandi hariho umuhanda ubatandukanira n'undi kugira ngo baturinde akisida ibi byose ni ibikorwa leta iba yarakoze kugira ngo abaturage babo babeho neza.

umuhanda munini cyane unyurwamo n'imodoka nyinshi, turimo turazibana imodoka nyinshi zigenda, abamotari ndetse n'abanyamaguru bose, harimo ibyapa bigenda byerekana aho ujya, n'uko ugomba kuhitwara cyangwa nimba uhagarara cyangwa ukomeza, iyi ni imihanda leta iba yarubatse yorohereza abantu bose kugira ngo bagere iyo bajya, kandi ibi bimenyetso babishyiramo kugira ngo barinde impanuka zaba mu gihugu.

Umuhanda wa kaburimbo, hepfo hari agahanda k'abanyamaguru turabonamo imodoka, abamotari, ndetse n'abanyonzi, umuhanda ukaba ukikijwe n'ibiti birebire binini, tuzi ko ibiti biba byarashyizweho na gahunda ya leta kugira ngo babone imvura kandi tubone n'isuku, uyu umuhanda ukaba usa neza bivuze ngo uyu muhanda ni umuhanda ukoreshwa n'abantu bose bagera iyo bajya.

Hano turabona ihuriro ry'umuhanda ariyo mihanda ibazwe na leta bakoresheje imisoro abantu bishyuwe, turabonamo abamotari bahetse abagenzi kandi n'imodoka zirimo zigenda ku mutuzo mwinshi rwose nta mpanuka yabereyemo imihanda ibasobanutse ku byo bayigenderamo kandi hakaba harimo iminara ku byo abantu bose bari hafi aho babona umuriro.

Turabona umuhanda urimo icyondo n'amazi mabi bisa nkaho imvura yahaguye, urimo abamotari bahetse abagenzi n'abadahetse bambaye ibirinda abantu by'umutuku ku mutwe, bambaye amakoti yubururu n'umuhondo kandi hepfo y'umuhanda hariho ibiti n'udupasiparumu.

Uyu muhanda turabona ko harimo akantu kameze nk'ak'abanyamaguru bamaze kwambuka bahagararamo, gatandukanye imihanda ibiri igiye irimo dodani, ibyo bisize ari umweru nizo twita dodani, aho abanyamaguru bashobora kwambukira, ndabona umuntu uri imbere umaze kwambuka ndetse n'undi ufite igare umaze kwambuka, tukabona ko ruguru yaho hari amazu bivuga ko aho hantu hari umuhanda hatuwe.

Ndabona umuhanda urimo imodoka, moto zirimo zigenda zibutsa na mihanda itandukanye iyo mihanda hakaba harimo imirongo ariyo yerekana aho imodoka iba igomba guca n'indi ikagenda hariho akayira k'abanyamaguru kugira barinde impanuka zitateganyijwe umuhanda urimo ibiti birimo amafoto uriho n'agapasiparumu ku ruhande.

Leta y'u Rwanda iradukoresha ngo ikatugeza kuri byinshi ikatwubakira imihanda myiza igezweho yo kugendamo aho tubona naho abantu bakunze kwita muri lombuwe aho hagati yawo harimo ubusitani bw' ibyatsi n'uturabo cyangwa n'ibiti, harimo amapoto menshi ariho amatara amukira imihanda mu gihe bwije, kandi leta iba yubatse imihanda igashyiramo n'amatara kugira abatwa ibinyabiziga, abamotari ndetse n'imidoka bagende neza ndetse n'abanyamaguru.

Uyu ni umuhanda munini wa kaburimbo, aho tubona ko harimo imirongo y'umweru yerekana ko hari dodani, aho ngaho niho abanyamaguru bambukira, umunyamaguru wayigezemo nta muntu utwaye ikinyabiziga uba ugomba kongera gukomeza kugenda, tukabona ko hirya aha icyuma gifite ibara ry'ivu kandi n'utuntu tuzengurutseho tw'umukara, kiriya nicyo gihita gifata amashusho y'imodoka zikoze ibidakwiye zihuse cyangwa zikagenda zitarishyuye.

Hari izindi serivisi zitangwa na leta aho baba bari gukora umuhanda w'igitaka bari bafite nka gahunda yo kuwugira kaburimbo, tukabona ko hari amazu meza agiye afite ibipangu byiza, by'amabara atandukanye, kandi bafite ibiti kugira babone akayaga keza kandi ahantu hagendwe.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ugendamo abamotari ndetse n'imodoka iparitse ku ruhande, abanyamaguru na bo barimo baragenda nta kibazo, tukabona amapoto y'amashanyarazi agiye amanitse n'insinga zirimo zigenda zijya ku ngo kandi tukabonaho ibiti, umuhanda rwose umeze neza, abantu baragenda nta kibazo, nta mpanuka isa nk'iyabaye, abashoferi bagenda bigengesereye.

Uyu ni umuhanda munini wa kaburimbo tubona ukikijwe n'udupasiparumu, aho umuhanda uri kugaragara neza, kandi hariho n'utuyira tw'abanyamaguru, aho bashobora kugenda kugira ngo imodoka zidahura nabo, tukabonamo ibimenyetso bijya hepfo ndetse na ruguru, biba byerekana ko imodoka ishobora gukata ijya mu kindi cyerekezo, izamuka cyangwa impanuka.

uyu ni umuhanda bari kwerekana dodani izi ni zo abantu bacamo bagiye kwambuka umuhanda iyo ugezemo nta modoka iba igomba kugusanga mutabona imodokadoka y'umweru ndetse n'i'umukara ziri kugenda zibusana hepfo hari amazu afite amabati ya shokora ndetse n'irangi rya shokora ku nyubako twakabonamo abamotari ndetse n'abantu barimo bagenda.

Serivisi leta iba yaradukoreye ni nko kubaka imihanda kugira ngo imodoka ndetse natwe twese abanyamaguru ndetse n'abamotari bagende amahoro, turabonamo abamotari ndetse n'imodoka zirimo zigenda n'abanyonzi ndetse n'abanyamaguru bose bagenda tukabona inyubako iri haruguru tukabona amatara kugira ngo umuhanda uze kwaka mu gihe bwije kandi hari n'insinga z'amashanyarazi kugira ngo umuriro ugere kuri bose.

Uyu ni umuhanda munini turimo turabona imodoka ndetse n'abamotari bagenda n'abanyamaguru, abanyamaguru bakaba bari kwambukiranya umuhanda baciye mu cyo twita dodani, aho hari irangi ry'umweru bava mu muhanda umwe bajya mu wundi, ruguru yabo hakaba hari ibiti. Izi ni serivisi u Rwanda ruba rwarashyizeho kandi bashyiraho n'ibimenyetso mu muhanda kugira ngo abatwaye ibinyabiziga n'abanyamaguru bagende kandi birinde impanuka.